Abagabo babiri bari ahacururizwa ibinyobwa bisindisha. Ni abagabo bicaye ku ntebe z'umukara. Na bo bambaye amapantaro y'umukara, umwe yambaye ishati y'umukara, undi yambaye ishati y'umweru. Mo imbere hari umuntu uri muri kontoiwri ariwe ubahereza ibinyobwa banywa. Aba bagabo bisa nk'aho bizihiwe kandi bishimanye, bari kunywa inzoga.

Ahantu bigaragara ko ari mu kabari, n'ahantu hari abantu benshi b'ingeri zigiye zitandukanye hakaba hari kwaka amatara ariko atabonesha cyane y'amabara byatandukanye hari ahantu abantu bajya gufatira ibinyobwa aho bakunze kwita kuri kotwari, hakaba hari kugaragaramo n'amasikirini garikwaka, abantu hari abicaye ku meza bigaragara ko bari gusangira, hari n'abicaye ku mbaraza bari muri telefoni.

Abantu benshi cyane bari mu nzu iri kwakamo amatara y'icyatsi kibisi yiganje, ndetse n'andi matara y'amabara atandukanye. Ni abantu bafite amaterefone bigaragara ko bari gufotora, ndetse hakaba hari n'abandi bagabo babiri bahagaze, umwe wambaye isengeri afite na mikoro, bigaragara ko ari kubasusurutsa aho bari muri icyo gitaramo.

Abagabo benshi bigaragara ko bari ahantu mu kabari, bakaba bari ku meza iriho amacupa y'inzoga ndetse n'ibirahure birimo inzoga. Ni abagabo bambaye imipira y'umweru ndetse hakaba harimo n'undi mugabo wambaye ishati, umwe arikuywa undi afite telefone, ku meza ateretse ikintu cy'ubururu bigaragara ko nacyo kirimo ibyo kunywa, ariko icyo kintu ni kinini kimeze nk'icyuma.

Inzu icururizwamo imiti n'imbuto, zikoreshwa mu buhinzi. Hakaba harimo n'ibikoresho byifashishwa gutera iyo miti, aribyo bizwi nk'amapombo. Hagaragara imiti yica udukoko, n'ibyonnyi byibasira ibihingwa.

Inzu icururizwamo ibintu bigiye bitandukanye, harimo inzoga ndetse n'ibiribwa nk'amavuta, ubunyobwa bwo guhekenya, ji zo kunywa. Ni inzu ifite umuryango w'ubururu, ndetse hakaba harimo na kontwari ikozwe mu mbaho.

Inzu y'ubucuruzi isize irangi rijya gusa umuhondo ndetse n'ubururu, ku ibaraza ry'iyi nzu hari abantu bicaye hanze, bigaragara ko hari abantu bahakorera ndetse nabaza kuhahahira, imbere yiyi nzu hari umuhanda wa kaburimbo, uri gucamo moto itwawe n'umugabo, impande y'iyi nzu haparitse imodoka y'ivatiri ndetse na moto, ihetse boxi y'ubururu.

Butike icuruzwamo ibintu bigiye bitandukanye, ku muryango wayo hari agatebe k'umutuku n'akandi gatebe k'umweru kicayeho umugore uri kuri terefone wambaye ikanzu y'umukara. Imbere muri butike harimo abantu babiri, umwe ni umugabo undi ni umugore. Umugabo afite agakapu kanditseho arabisi. Iyi butike ishashemo amakaro y'umweru ndetse hanze hari n'ibidomoro birebire.

Ahantu hakorerwa ubucuruzi ni ahantu hari inzu yometseho amakaro ku gice cyo hejuru, hakaba hari inzu ifite imiryango isize ibara ry'icyatsi kibisi, hakaba hari abagabo batatu, babiri basa nkaho bari kumwe, hakaba hari n'undi uri kugenda. Kuri iyo nzu hamanitse icyapa cyanditseho "Risipegiti Bare endi Resitora" kigaragaza ibiribwa ndetse n'ibinyobwa biri aho.

Inzu y'ubucuruzi yometseho amakaro ikaba ifite inzugi z'icyatsi kibisi, ndetse hakaba ku muryango umwe hamanitseho icyapa kigaragaza ko hari ibintu bikorerwa muri uwo muryango, hakaba hari n'ikindi cyapa kiriho icupa ry'inzoga bigaragara ko hacururizwa'inzoga. Imbere y'i nzu hashashe amapave ariko harimo imyanda myinshi, bigaragara ko ari imihatihati.

Inzu ifite amarange y'umweru, ishushanyijeho nk'ikintu kimeze nk'ururabo ikaba yanditseho, agoropi ni inzu bigaragara ko ari uruganda, ikaba itunganyirizwamo imiti ikoreshwa mu buhinzi, imiti irwanya ibyonnyi ,iyi nzu ifite igipangu ndetse ikaba ifite n'ubusitani burimo indabyo zigiye zitandukanye.

Inzu y'ubucuruzi isize irangi ry'mweru, ifite imiryango y'icyatsi kibisi harimo irido. Kuri iyi nzu harimo ibyapa cyanditseho the champion's bar, bigaragara ko hacururizwamo ibyo kunywa bisembuye ndetse n'ibidasembuye. Kuri iyi nzu harimo akabaraza karimo intebe yasheze y'umukara iri inyuma y'inkingi yo kuri iy'inzu.

Umuhanda wa kaburimbo, uhagazemo imodoka z'amatagisi zagenewe gutwara abantu. Kuri uwo muhanda hari n'amazu y'ubucuruzi, hakaba harimo n'umuntu uri kugenda mu muhanda. Izo modoka aho zihagaze, bisa nkaho ziteguye gutwara abagenzi bajya mu bice bitandukanye.

icyapa kinini cyanditseho amusiteri biya ni icyapa imbere yacyo hari igiti cy'umukindo, hari ikindi cyapa na none cyanditseho amusiteribiya, munsi yacyo hakaba hari amagambo yanditseho ngo fociyazibari, munsi y'aya magambo hari icupa rirerire ndetse n'ikirahure bigaragara ko kirimo inzoga.

Icyapa cyanditseho decorete wizi sitayiri, n'icyapa kiriho amashusho ajyiye atandukanye, nomero za telefoni, ndetse hakaba handitsemo n'amagambo agaragaza icyo banyiri cyapa bakora, hakaba arimo dekorasiyo, twambika abageni, dukora indabo, dufite impeta nziza, imodoka z'ubukwe, sonorizasiyo, rivebandi, hakaba harihoho n'udukoresho tubiri twe tuyobora abantu ibyo biri.

Igipangu kinini cyiza cyane ni igipangu gifite urugi rw'umukara, ndetse kikaba gifite inkigi enye zubakishije amabuye, hejuru kuri icyo gipangu hari ibyapa bibiri kimwe kigaragaza abositeribiya, ndetse n'ikindi cyanditseho tiripu gesiti howuzi sowuna endi masage, bigaragaza ibikorerwamo imbere iki gipangu kandi gifite indabyo zakuriye kuri iki gipangu, kandi hakaba hari umugabo uri kuzikata ngo ziringanire.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi ni inzu ifite imiryango minini cyane y’umukara, ikaba ishashemo n’amakaro. Ku mbuga y’iyi nzu hashasheho amapave, ndetse imbere y’iyi nzu hari abantu bicaye ku ntebe, hakaba hari n’akandi gataburo kariho umutaka. Imbere y’iyo nzu hari abagabo babiri bambaye amajire ya emutiyeni.

Inzu bacururizamo, ikaba ari inzu ifite irangi ry'umuhondo, muri iyo nzu harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, hanze hari imifuka y'umuceri, ndetse hakaba hari n'undi muryango ufunguye werekeza inyuma mu gikari. Iyi nzu isakajwe amategura, inyuma y'iyi nzu hari n'indi nzu nini isize irangi ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi ifite irangi ry'umuhondo, yubakishije amabuye asize irangi ry'umukara ndetse n'umweru. Afite n'inkingi zifite ibara ry'icyatsi kibisi mu ibaraza ry'iyo nzu hari ibitambaro by'amatise bimanitse ku muryango. Ndetse hari n'icyapa kigaragaza ko aho hadoderwa imyenda, akaba kuri icyo cypa handitseho ambara uberwe hakaba na nimero za telefone.

Inzu y’ubucuruzi ni inzu iri mu ibara ry’umuhondo, ikaba ifite inkingi z’icyatsi kibisi. Inzu ikaba ifite inzugi z’umukara zirimo ibirahure. Imbere y’inzu hari imbuga ishashemo amapave, ndetse imbere y’iyi nzu hari abantu bicaye mu ibaraza. Bigaragara ko kuri iyi nzu haca umuhanda wa kaburimbo.

Inzu igeretse, inzu ikaba ikorerwamo ubucuruzi ,kuri iyi nzu hamanitseho ibyapa byinshi bitandukanye, bigaragaza ibicuruzwa biboneka muri muri aya mazu ,ajya atandukanye akorerwamo mu bucuruzi ,ndetse hari n'abantu bigaragara ko ari ubucuruzi buri kuhakorerwa.

Inzu ikorerwamo n'abakanishi bakanika amagare, hakaba harimo igare rimanitse hejuru ku cyuma kiri muri iyi nzu. Hakaba harimo n'umuntu uryamye wambaye isarubeti y'ubururu, bigaragara ko amaze kunanirwa hakaba harimo n'ibindi bikoresho by'amagare biba byarasagutse ku magare ashaje ndetse n'ibishyashya bishyirwa ku magare.

Inzu bigaragara ko igeretse, iyi nzu yubakishije amatafari ahiye kandi iyi nzu iriho ibyapa byinshi bigiye bitandukanye, bigaragara ko hari serivisi cyangwa se ibicuruzwa bigurishirizwa muri iyo nzu, aha hantu bigaragara ko ari inzu yagenewe ubucuruzi.

Inzu z'ubucuruzi zometseho amakaro. Inzu zikaba zimanitseho ibyapa byamamaza ibicururizwa aho hantu. Hamwe hari icyapa cya Sikoro, bigaragara ko hari ibinyobwa bisindisha, kandi hakaba hari icyapa kirimo ibikoresho byifashishwa mu isuku, handetseho keya masiti, ndetse na Amani shopu.

Amazu y'ubucuruzi azwi nka botike, amazu asize irangi ry'umuhondo hakabaho n'ibirango cyangwa se ibyapa byamamaza. Imbere yayo mazu hari ibiti birebire hakaba haparitse n'imodoka z'ubwoko bugiye butandukanye, hepfo yayo mazu hari inzu ndende bigaragara ko ishobora kuba ari urusengero.

Umuhanda wa kaburimbo ku nkengero zawo hari inzira y'abanyamaguru ndetse hakurya y'uwo muhanda, hakaba hari inzu y'ubucuruzi y'imiryango isize irangi ry'umweru, ndetse hakaba hari undi muryango usize irangi ry'umuhondo. Muri uyu muhanda harimo umurongo w'umuhondo.

Amazu y'ubucuruzi bigaragara ko ari amazu ari ku muhanda. Ni amazu akorerwamo ibintu bigiye bitandukanye imbere y'aya mazu hari umuntu uri gutanga serivisi z'itumanaho ufite umutaka wa emutiyene w'umuhondo ndetse akaba yambaye n'ijire y'umuhondo imbere y'iyi nzu hari inzu imwe ifite intebe z'amadiva ziri imbere bigaragara ko ziri kugurishwa.

Imodoka izwi nka Rava ,ikaba iparitse imbere ahakorerwa ubucuruzi bw'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa ,aho ngaho imodoka iparitse hashashe amapave, kuri iyo nzu y'ubucuruzi hari icyapa cyanditseho kofi resitorenti a endi fasiti fudu, n'icyapa kigaragaza ibiribwa biboneka aho ngaho.

Inzu z'ubucuruzi. Ni inzu ebyiri. Imwe isize irangi ry'ubururu, indi ikaba yometseho amakaro. Ku nzu yometseho amakaro imbere yayo haparitse imodoka. Bigaragara ko yaje gutwara amakaziye ari mu ibaraza ry'iyo modoka. Amakaziye akaba azwiho kuba atwarwamo amacupa y'inzoga, ndetse hafi y'ayo mazu ndetse n'iyo modoka hari utuzu twa MTN.

Umugabo muremure wambaye ikoti, kosistimu, ndetse akaba yambaye n'ipantaro ya koto na congo z'umukara. ni umugabo uri mu nzu nini cyane bigaragarako ari urusengero aho abantu baza gusengera, muri urwo rusengero harimo intebe z'abantu bicaraho baje gusenga ,ni urusengero rugaragarako rurimo sima...

Inzu y'ubucuruzi iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, ndetse n'irindi bara rijya gusa icyatsi kibisi. Inzu yanditseho amagambo "Unguka Banke Limitedi, Gakenke Baranshe". Mu ibaraza ry'iyo nzu, harimo abagabo babiri, umwe aricaye, undi arahagaze, ndetse iyo nzu ifite amadirishya, ndetse n'inzugi by'umweru.

Inzu nziza cyane inzu igeretse. Ni inzu bigaragara ko ari inzu yo guturwamo, ndetse inzu igice kimwe kirageretse, ariko ikindi nta bwo kigeretse. Ni inzu imbere yayo hari indabo zakuze cyane, kandi nziza cyane. Mu mbuga yayo hashashe amapave, ndetse haparitsemo n'imodoka. Hakaba hari n'abantu bigaragara ko bari gukora amasuku n'abacunze umutekano.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bwa hoteli. Ni inzu yubakishije amatafari ahiye, ikaba isize irangi ry'umukara. Inzu ikikijwe n'ibiti ndetse ikaba ifite n'igipangu cy'umukara. Imbere y'iki gipangu hari inzira igana kuri hoteli ishashemo amapave. Impande yiyo nzira hari indabo zigiye zitandukanye.

Ahantu heza cyane hari ubusitani bwiza cyane, ndetse hakaba hari n'inzu nziza cyane, aha hantu hari imbuga ishashemo ama pave, bigaragara ko hari igikorwa kihabera kijyanye na hoteli ndetse n'ubukerarugendo.

Butike bacururizamo ibiribwa, imbere harimo, bigaragara ko bari gucuruza. Hakaba hari n'imifuka igiye itandukanye, irimo ibyo kurya bigiye bitandukanye nk'umuceri, hakaba harimo. Hanze kuri iyi nzu hari imyenda idandaje hasi kuri shitingi, hakaba hari n'udufuka turi ku muryango abantu bagura bagahahiramo.

Indagara nyinshi cyane ziri mu base, ndetse izindi zikaba ziri mu tudobo, aho bazishyize bigaragara ko ziri gucuruzwa ku muhanda, biri mu ibase y'ubururu n'icyatsi kibisi, ndetse ibasi y'ubururu ikaba iteretse ku ndobo, hari umudamu wicaye hafi aho ngaho wambaye ibitenge birimo amabarara y'icyatsi n'agakapu gakomeye mu gitenge bigaragara ko ariwe uri kuzicuruza.

Isoko ririmo abantu bajya batandukanye ndetse bigaragara ko baje guhaha cyangwa se gucuruza, muri iri soko turabonamo ibitanda biriho tapi za magi, ni isoko bigaragara ko ririmo ibyo gucuruza kandi ko bitari byatandikwa ngo bitangirika.

Isoko ricururizwamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kandi rikaba ari isoko rigendwamo n'abantu benshi b'ingeri zose. bakaba bacururizamo ibyo kurya nk'amavuta yo gutekesha, amaji, bakaba bacururizamo n'imyambaro, n'amashuka. Ni isoko ryubatse neza ritwikiriye.

Inzu y'ubucuruzi ni inzu yubakishije amatafari ndetse ikaba ifite n'ibice bimwe byayo bisize irangi ry'umuhondo. Iyi nzu mu muryango wayo harafunguye hagazemo umugabo wambaye inkweto zifunze ndetse n'ubupira w'umweru. Imbere ku ibara ry'iyo nzu hamanitse ibitambaro bigiye bitandukanye biri mu mabara atandukanye, ibitambaro byiganjemo iby'amatitse ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Abantu benshi cyane b'abagore, ni abantu bari ahantu hari ikibuga kirimo ibyatsi ariko kirimo n'amabuye, n'abantu bigaragara ko baremye isoko bakaba baje kugurisha ibirago, ibirago bikaba bizwiho kuba bikunda kubohwa n'abagore, babikoresheje intoki zabo ndetse bifashishije n'urukangaga, ruboneka mu gishanga.